Abaturage benshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu byumba zitangirwamo amahugurwa kandi zirimo n'abayobozi batandukanye, harimo n'abambaye impuzankano za daso bari gutanga amahugurwa agenga imibereho yabo.

Abaturage beza b'abagore, abagabo n'abasore bari mu mahugurwa afite icyo yigaho kandi bafite amakayi, mudasobwa ndetse hari abazanye n'ibikapu biri ku meza.

Umugabo wambaye indorerwamo n’ishati y'umweru afite indangururamajwi ituma avuga abamukurikiye bakamwumva ndetse n'imbere ye hari amazi, ari kuvuga ku bigendanye n'imikino mu gihugu cyu Burundi ndetse no mu Rwanda.

Abayobozi b'abanyacyubahiro bari mu nama yabateranyirije hamwe. Hari abanyamakuru bari gufata amashusho y'ibiri kubaba ndetse kandi bicaye imbere y'indangururamajwi ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abaturage bicaye bicaranye ibimaze gukoreshwa umuganda ubona ko bishimye bari guhabwa inyigisho zo guteza imbere igihugu cyabo, bicaye ku kigo cy'amashuri.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bambaye impuzankano, ndetse kandi imbere yabo hakaba hari udupipiri tw'amazi, bari kwiga ku mishinga igiye itandukanye, itanga serivisi za leta, kandi barishimye bicaye ku ntebe nziza z'abayobozi.

Abakozi ba leta, batatu bicaye bari mu kazi imbere yabo hari amazi yo kunywa bafite amakaye imbere yabo, bari kuganira barishimye kandi bashimishijwe n'aho bageze bakorera igihugu cyabo.

Abagabo b'abanyacyubahiro ndetse n'abagore bari mu nama kandi bafite ibyo bari kwigaho bigendanye n'imikoreshereze y'umuhanda cyane cyane muri Rura, kuko ariho higanjemo ibinyabiziga bitwara ibintu n'abantu ndetse n'ibindi binyabiziga bikoresha umuhanda.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe nziza z'abanyacyubahiro bicaye mu cyumba kiza kandi gikunze kuberamo inama, bakurikiye ibiri kubera imbere yabo nk'umwigisha uri kubahugura, ibigendanye n'insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Abagabo b'abanyacyubahiro, bicaye muri sale ijya iberamo inama, barishimye bari kwitegereza ibiri kubera imbere ndetse kandi urabona ko bashimishijwe nibyo bari kubwirwa.

Abakobwa n'abasore bari mu mahugurwa, bafite ikayi, ikaramu ndetse kandi n'amazi yo kunywa, bambaye neza, bambaye imyitero n'abambaye rinete imbere aho.

Abagabo bane harimo n'umuzungu ni na we ufite mikorofone, bari kwiga uburyo ki igihugu cy'u Rwanda nka Leta ishobora kongeramo udushya mu byo ikora ndetse kandi bakibanda ku miyoborere y'u Rwanda.

Urubyiruko rwiganjemo abasore, abakobwa bafite udupipiri imbere yabo turimo amazi, bari kwiga uburyo ki bateza imbere igihugu n'uburyo ki baha ikaze ababagana mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ahatangirwa serivisi za irembo zifasha abantu bagiye batandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibiro byaho bifite poro ndetse n'uburyo bwo kuyobora abaturage ndetse n'abazigama kugira ngo bagendere.

Umuhanda munini ugendwamo n'abantu bagiye batandukanye, bakora ama buzinesi agiye atandukanye, ndetse hari inzu z'amagorofa manini bakoreramo amabuzinesi agiye atandukanye nko gucuruza n'ibindi.

Imikoreshereze y'urubuga rwa RURA iragaragara, icya mbere ni ukubanza ukarema urwo rubuga wandikamo amazina yawe, imeli ndetse na nimero za telefone, hanyuma ukinjira bikagufasha gufungura neza urwo rubuga.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kudekarara kandi kigaragaza uburyo bwiza bwo kudekarara, n'ubw'imisoro, n'umwaka, ni imbuga nkoranyambaga usura.

Abanyeshuri batandatu bakurikiye mwarimu uri kubigisha bafite za mudasobwa bicaye ku ntebe ndetse kandi barakurikiye ubona ko bashimishijwe n'isomo bari kwiga.

Umunara munini ushinzwe gutanga ibikomoka ku ikoranabuhanga ndetse kandi ushinzwe gutuma abantu bajya kuri interinete mu buryo bworoshye.

Niba ushaka kugira ubumenyi buhagije ku mikoreshereze y'urubuga rw'Irembo, jya kwishakiro ubundi wandikemo wawawa eshatu wandikemo Irembo ndetse wandikemo govu, ubundi ukurikize amabwiriza cyangwa ubahamagare kuri nimero zabo zikurikira uribuze kuhabona.

Agapapuro kari muri mudasobwa kanditseho RURA kandi gafite andi magambo yanditseho afite aho ahuriye na RURA.

Agapapuro kari mu buryo bwa mudasobwa kagaragaza impamyabushobozi y'ubushoramari igaragaza inzira zikenewe zo kuba wahabwa iyo mpamyabushobozi yo gushora n'izindi nzira nyinshi zitandukanye wabonamo.

Icyumba gitangirwamo amahugurwa. Harimo abakobwa, abasore ndetse bafite za mudasobwa imbere yabo n'amazi yo kunywa. Imbere yabo hariyo umukobwa uri kubigisha.

umukozi wa irembo ari gutanga serivisi ku bantu bagenda babagana, umunsi ku munsi, ni umugabo mwiza wambaye indorerwamo ndetse ubona ko ari kubikora abifitemo ububasha n'ubushobozi kandi ni ibintuintu byiza by'agaciro.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe iterambere ry'Igihugu mu Rwanda gifite abafatanyabikorwa bagifasha gutanga serivisi zacyo. Harimo nko gutanga amafaranga nk'inguzanyo mu banyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'amafaranga.

Ahatangirwa serivisi z'ikoranabuhanga, akenshi na kenshi usanga abaturage aribo bajyayo bagana iryo shami, kugira ngo bakorerwe serivisi z'ubutaka cyangwa se izo kuri polisi, usanga rero abakoresha iyo serivisi batagira ikoranabuhanga.

Ifuraya igaragaza abagabo bane bari butumirwe na televiziyo Rwanda, ku itariki ya mbere Gicurasi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, i saa kumi n'imwe n'igice, kugeza i saa kugeza isa kumi n'ebyiri n'igice.

Igorofa rinini rifite ubwiza butangaje kandi buhebuje, iri ku muhanda munini wa kaburimbo kandi hari amatara yo ku mihanda amurika mu gihe cy'ijoro, rifite ubwiza na ryo buhebuje.

Umujyi uhurirwamo n'abantu bagiye batandukanye, hari inyubako nyinshi ziri kubakwa kandi zifite icyerekezo kuko ni amagorofa, ni hafi y'ahantu haparitse imodoka, amamoto ndetse n'abantu baje gushaka serivisi muri ako gace.

Umuhanda ugendwamo n'abanyamaguru kandi n'ibinyabiziga bitandukanye, hari amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda, hari abakozi bari gukora isuku ku muhanda bambaye bote ndetse n'imyenda yabugenewe mu kazi k'isuku mu muhanda.

Amashanyarazi ni kimwe mu bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera, kuko bifasha abantu kugira urumuri rwiza ndetse bakamurikirwa ndetse n'abanyeshuri bakagira amanota meza cyane.

Ipoto rinini kandi rirerire rifite aho rihuriye no kohereza amashanyarazi impande n'impande mu baturage, kandi riri ahantu habi, rigeze uwo rigwira ryahita rimwica rikamukuramo umwuka.

Ni ku muhanda abantu bari kugenda, imodoka ziri kugenda ndetse n'imodoka. Hafi aho, hari amapoto ajyana amashanyarazi mu ngo zitandukanye, ikindi kandi hari ibiti birebire bishinze ndetse hari n'ubusitani hafi aho kuri ibyo biti.

Ni igicu cyiza cy'umweru n'ubururu, hari ipoto nziza ihagaze, yohereza imigozi y'amashanyarazi hirya no hino mu baturage, ishinzwe gutanga amashanyarazi kugira ngo abaturage bagire urumuri.

Umuhanda ufite ubwiza butangaje ukagira ibiti biconze neza ku mihanda kandi ukagira amatara atuma waka ndetse abagenzi babona uburyo ki bagendamo harimo abamotari bawukoresha, abashoferi ndetse n'abandi.

Inzu nini itangirwamo ibigendanye na serivisi nziza kandi yegereye ipoto rinini rirerire ritanga, rikanohereza insinga ziva ku mashanyarazi.

Ipoto ndende y'umuhondo ifite utuntu tumeze nk'amapine hejuru, tuziritseho insinga zoherezwa mu baturage kugira ngo abantu babashe kugira umuriro w'amashanyarazi, ndetse iyo poto yegeranye n'ibiti birebire bisa nkaho bireshya.

|Serivisi zitangwa muri leta harimo no kohereza amashanyarazi mu baturage bayo bakagira umutekano ndetse bakagira n'urumuri rwiza. Aho bituma bikanabafasha kugira abana bagira ubwenge bakaba bagira n'amanota meza biturutse ku mashanyarazi.

Mu bikorwa remezo twavuga harimo amashuri ,insengero ndetse n'ibindi ariko kandi ibintu bigendanye n'amashanyarazi nacyo ni kimwe mu bituma iterambere ry'igihugu rizamuka ,rero mufashe dukomeze tubisigasire ndetse n'ibyo tutavuze dukomeze tubihe ubwiza bisanganywe .

Ipoto rinini ry'icyuma rifite imigozi y'insinga ijyana amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye, ryegereye igipangu cy'inzu ndetse n'ibindi biti hafi aho ngaho.

Ku muhanda hari abacuruzi ba MTN ndetse kandi hari amashanyarazi, hari amapoto ndetse n'amazu agiye atandukanye n'ibyapa.

Umubyeyi wicaye utegereje serivisi ndetse inyuma ye kure hari abicaye na bo bategereje izindi serivisi, ahantu mu yindi nzu begereye.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku bitaro bya Masaka, hari abaganga benshi ndetse abaturage nabo ni benshi baje kuhafatira serivisi z'ubuvuzi, hari umucyo hari indabo nziza zitatse neza, kandi hari ibyita bitatse iyo vuriro.

Inzu nziza yubatse mu buryo butangaje, ifite ubusitani bw'ibyatsi buriringaniye, ikagira kizimyamwoto ku ruhande kandi ifite n'umuryango ukinguye n'amadirishya meza kandi asukuye.

Hari akazuba gakeya kandi hari igicucu gisa nkaho kiri kurenga, hari amazu abiri rumwe rushobora kuba ari nk'urusengero indi ikaba inzu yitegeye hirya.

Abapolisi babiri bambaye impuzankano z'igipolisi cy'u Rwanda, bashyize ndetse banashyira mu mapingu umunyamahanga, ndetse akaba avuye mu modoka ya RIB ishinzwe gushaka amakuru y'uwakoze ibyaha, ndetse kandi bakaba bamujyanye mu iperereza ryo gushaka ibyaha yakoze ndetse naho bifitanye isano.

Mu gihe cy'ubwirinzi bwa Covid cumi n'icyenda abantu benshi babaga bambaye udupfukamunwa ku minwa. Ndetse no mu magereza agiye atandukanye abagororwa babaga bambaye udupfukamunwa.

Umugabo munini wambaye indorerwamo, ari kumwe n'uwambaye impuzankano z'akazi, ari kumurebera ikibazo afite ku kaboko ndetse abandi bari kwitegereza ibyo ariho amukorera ndetse baritegereza n'abari babibonye bwa mbere.

Umubyeyi mwiza muremure w'imisatsi, wambaye rinete wasize iminwa, wambaye amaherena ndetse kandi akaba yambaye n'umupira utukura.

Imfungwa n'abagororwa bari ku murongo, bambaye impuzankano zisa, z'iroza, ndetse bari guhabwa serivisi z'ubwirinzi mu gukaraba bakoresheje umuti wa sanitayiza ukoreshwa mu bwirinzi, ni mu gihe bambaye udupfukamunwa two kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, bari kubifashwa n'abagororwa batandukanye.

Abantu bari kuririmba indirimbo nziza bari kumwe n'umuririmbyi yitwa KIZITO Mihigo ari kubafasha kuririmba.

Umugore wakoze ibyaha yashyizweho amapingu ajyanywe mu igorero kandi ajyanywe n'umucungagereza, bafite aho bahuriye kuko umwe n'umugore undi nawe n'umugore, gusa inyuma yaho hari n'undi mugabo ukora ibigendanye nicungagereza.

Abakobwa beza babiri n'abagabo beza babiri bari mu biro, bari gutanga amakayi ndetse bisa nk'aho bari bari mu nama, bari bari kuvuga ku bigendanye n'uburyo bwo guteza imbere igihugu.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bambaye impuzankano bafite ikayi n'ikaramu bari kwandika, imbere yabo hari abandi baturage baje gufata serivisi aho ngaho bategereje ko babakira.

Inzu nziza ifite amakaro hasi, ikagira ibikoresho bishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Ibyo bikoresho ni kizimyamwoto ndetse n'imigozi ibifashe.

Icyapa cyanditseho Rwanda, kigaragaza ko ariho polisi y'igihugu cy' u Rwanda ikorera i Nyarugenge. Kandi igakorera mu murenge wa Rwezamenyo, kiriho n'ikirangantego cy'igihugu ndetse na nimero za telefoni.

Abagabo bambaye impuzankano ndetse n'amakasike, baje mu modoka zabugenewe zishinzwe kuzimya iby'inkongi z'umuriro ndetse kandi bafite ibyuma bari gukoresha byabugenewe.

Abantu bari kugenda mu muhanda hari abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bari kwitegereza uko imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bikoresha umuhanda bigenda, kandi hari abaturage bashimishijwe no kubona abo bapolisi.

Ushinzwe iby'inkongi z'umuriro, yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda yabugenewe. Ari kwereka abanyeshuri, ibigendanye n'uburyo bwo kuzimya umuriro wibasiye ikigo.

Inzu nini itangirwamo serivisi za zigama iri ahitwa Muhima, hari imodoka y'abapolisi ndetse hari umupolisi uri gutera intambwe, hari abaturage baje gufatayo serivisi zitandukanye.

Inzu nini yubatse mu buryo bw'amagorofa, yegereye umuhanda ndetse hafi aho hari umuyobozi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ari kumwe n'umuturage usanzwe bari kugenda baganira.

Ahatangirwa serivisi zo ku muhanda, umupolisi ubishinzwe ahuye n'umushoferi aramuhagarika, amubaza ibyangombwa bituma akoresha umuhanda neza, dore ko yabonye agendesha imodoka ye mu buryo butari bwiza, ndetse anamubwira kugabanya umuvuduko ndetse amusaba n'ibyangombwa bituma akoresha iyo modoka ye.

Inzu nziza ifite amakaro imeze neza, icometseho za kizimyamwoto zifite akamaro ko kugabanya inkongi y'umuriro yabaye ahantu runaka.

Ifoto y'abagabo batatu bari bahanganye mu matora yari ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, harimo uwagize amajwi mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana Paul Kagame ndetse Habineza wagize amajwi zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu na Mpayimana wagize zeru n'ibice mirongo itatu na kabiri.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda hizexerensi Paul Kagame ari mu muhanda, ari kugenda ashagawe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ari kumwe kandi na minisitiri w'intebe bafatanyije kuba bayobora kino gihugu cy'u Rwanda.

Umugabo w'umunyacyubahiro ushaka kuyobora u Rwanda ari gutanga imigabo n'imigambi mu gihe azaba yatorewe kuba perezida w'iki gihugu cy'u Rwanda kandi uwo mugabo yitwa Mpayimana Philippe.

Umugore wa Perezida Paul Kagame yicaranye n'abandi bayobozi batandukanye, bambaye neza ndetse kandi inyuma yabo hariyo n'abandi bakurikiye ibi kubera imbere yabo.

Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umugore we bari hafi y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, aho ari kumwe n'umucamanza, ari kumwereka aho agiye gusinya ni mu gihe agiye kuyongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda nka manda na none y'imyaka itanu.

Mu muhanda w'ibitaka hari abagabo babiri, bari kuganira bungurana ibitekerezo. Umwe afite imodoka undi afite ingorofani yo mu biti. Ruguru yaho hari abamotari bahaparitse.

Mbere y'uko ukoresha ikinyabiziga cya moteri mu muhanda urabanza ukiga imikoreshereze yacyo. Ni muri urwo rwego iyo ugiye gukoresha umuhanda wa kaburimbo kandi ukoresha moto ndetse na za lifani n'ibindi binyabiziga bikomatanyije nk'imodoka ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye, urabanza ukiga amategeko agenga imikoreshereze yaho.

Umuhanda munini ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka ya dipine nini itukura ndetse n'imodoka ngufiya. Hafi yaho hari ibiti ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Imwe mu modoka iri kugenda mu muhanda, iri mu bwoko bwa tagisi vatiri, zitwara abantu mu muhanda, iri kugenda gake gake kandi n'imodoka isa n'umweru ifite akabara k'agahondo, mo hagati.

Ikimodoka kinini gitwara ibigendanye na peteroli, mu muhanda urimo icyapa cyanditseho Forbet, kandi hakaba n'imitaka y'abacuruzi b'amayinite.

Imodoka ikoreshwa mu muhanda itwara ibintu n'abantu mu buryo bwa rusange igira imyanya makumyabiri n'umunani yifashishwa mu bagenzi bicaramo. Kandi iyi modoka igira umuvuduko wihuta dore ko yihuta mu gihe gito iba igeza aho ijya.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa tagisi vatiri ihagaze ku muhanda w'ibitaka ndetse kandi ifite ibara ry'agahondo ku ruhande, yanditseho ijambo yego basi.

Umuhanda munini ugendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga. Harimo za rifani, imodoka, amamoto ndetse n'abacuruzi bacururije kuri uwo muhanda. Hariyo amazu meza manini ndetse n'ay'amagorofa.

Imodoka ebyiri, imwe iri inyuma y'indi, gusa ifite umuryango ufunguye ugaragaza ko hinjiramo abagenzi, bakoza ku kimenyetso gihari bakinjira kigaragaza ko bishyuye.

Iteme rinyuramo amazi ahurura akenshi riba rigabanyijwemo n'imihanda ibiri umwe unyura hirya undi unyura hino ariko uwo umuhanda nanone ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye n'ama moto ndetse n'imodoka akenshi muri uwo muhanda aho hafi yaho haba hari ibiti bihashinze ndetse bizamuka mu buryo ari birebire.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga harimo imodokadoka nini ya dipine kandi isa n'itukura ipakiye umucanga iwujyanye kuwumena ahantu, hafi yaho hari ibiti birebire kandi bisa neza.

Umuhanda munini ugendwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo imodoka, ndetse n'abamotari batwaye abagenzi. Harimo n'uwitwaye kandi hafi y'aho hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda ukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bigendamo harimo amalifani, imodoka, ama moto ndetse kandi hari ibyapa biyobora bikanafasha abantu kugendera mu muhanda neza.

Akazu ko ku mu handa kicarwamo n'abagenzi, abatega imodoka cyangwa se abananiwe bakaruhuka kubatse mu mujyi wa Kigali hafi y'inzu nziza zikorerwamo amaserivisi atandukanye y'ubucuruzi.

Inzu y'igorofa ndende yubatse mu ibara ry'umuhondo ifite ibirahure byiza, kandi hari abantu bariho bagenda, hafi yaho hari ibiti byiza byicyatsi kibisi ndetse kandi hariyo nibihe byiza by'akazuba gakeya.

Ibyapa bibiri byo ku mihanda bifite ishusho itukura n'umuzenguruko wa mpande eshatu, bigaragaza aho indege igiye guparikwa. Kandi ibi byapa byegereye igiti kirekire ndetse kandi ni ahantu heza biri.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda gifite ishusho y'umuhondo kikagira umuzenguruko wampanpande enye, gikoreshwa ahantu hanyura ibinyabiziga cyihanangiriza ibinyabiziga gukoresha umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kikaba gitegeka gifite umuzenguruko w'uruziga, kikagira ikimenyetso cy'umweruru, kandi kikagira ibara risa n'umweru mo imbere. Ni icyapa gituma umushoferi agenda neza, kuko kiba kiri kumutegeka imikoreshereze y'umuhanda.

Ubusitani bwiza ku muhanda ndetse umuhanda mwiza usukuye, ufite amatara yo ku mihanda, amazu meza ndetse kandi hari icyapa kigaragaza ko uwo muhanda uri kunyerera.

Icyapa kigaragaza ikaze mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kandi hari amazu meza, amatara meza, imihanda myiza n'abaturage beza mu buhahirane.

Icyapa cyifashishwa mu buryo bwo kuyobora cyane cyane kiba gisa n'icyatsi kibisi, giteye mu busitani bw'icyatsi. Kiba gifite kuyobora abakoresha umuhanda ndetse n'aha abashoferi ndetse n'abandi.

Inzu nziza ifite igipangu cyiza kandi iri hafi ku muhanda wa kaburimbo kandi iyi nzu ifite ubusitani bw'ibiti bwiza cyane.

Inzu iri hafi ku muhanda, isa nk'aho icuruza ibintu bikomoka kuri arkoro kandi higanjemo n'abacuruzi n'abaguzi baje guhaha.

Hafi y'inzu nini nziza haparitse imodoka kandi iyo nzu ifite ateni ikurura amarezo, hejuru ifite amabati meza agezweho atukura,

Inzu iri mu bwoko bw'amagorofa ndende yegereye igiti kandi hafi yaho hari akazu kanditseho Airtel, ako kazu gafite iminara ikurura interineti.

Umuhanda munini unyurwamo n'abantu, utatsemo jaride nziza, ibyatsi byiza ndetse n'ibiti byiza, hafi yaho hari inzu nini itangirwamo serivisi z'amahoteri.

Ni ku muhanda hari imodoka ihaparitse ndetse kandi higanjemo amazu aho afite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'imyenda ndetse hari zone y'amata muri ako gace.

Etaje itangirwamo serivisi ikorwamo n'abantu bafite imodoka, urabona ko hafi ya etaje hari kubakwa indi gorofa.

Akamenyetso kagaragaza Hilitopu hoteli ndetse hari umuhanda urimo abamotari batwaye abagenzi ndetse n'amahoteri agaragara n'ibiti bitatse hoteli.

Umugabo uparitse igare ari inyuma y'abandi bari gukoresha umuhanda bagenda, hafi yaho hari amazu y'amagorofa ndetse n'amatara yo ku mihanda n'umuhanda ugezweho wa kaburimbo.

Abacuruzi bama simukadi akenshi na kenshi baba bari munsi y'umutaka w'ikirango cy'icyo bacuruje ndetse kandi abamotari nabo baba bambaye impuzankano y'ikimotari kandi na none hakoresha umuhanda munini cyane cyane ntabwo bakoresha umuhanda w'ibitaka ahubwo bakoresha umuhanda wa kaburimbo na none kandi haba hari abalifani.

Abakoresha umuhanda wa kaburimbo, bigishwa imikoreshereze yawo kuko uba ububitse ibyapa bituma bawukoresha ndetse kandi n'ibindi birango byo mu muhanda, muri byo twavugamo nk'ibyapa byo kwambuka, ibirango byo kwambuka ndetse n'ibindi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ufite ubusitani bwiza bw'ibiti kandi kuri uyu muhanda urimo ibyapa biyobora.